Urugo mboneza mikurire rw'abana, aho abana bose basigara mu gihe ababyeyi bagiye kwita ku mirimo yabo bagasigara bitabwaho ndetse banigishwa.

Ibishushanyo by'amoko menshi atandukanye bisa n'aho byifashishwa mu kwigisha abana b'inshucye kuko harimo abantu, inyamaswa, indabyo, imodoka n'utundi tuntu twinshi dutandukanye.

ikigo cy'abanyeshuri, abanyeshuri bose bari hanze, bakusanyirijwe hamwe, mu busitani, bari kumwe n'abarimu babo, bari kubaganiriza, bose bateze amatwi, barumva ibyo abarimu babo bababwira.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya ndetse no guca imirongongo no guca uruziga, harimo; amakaramu yifashishwa bashushanya, uducamirongo ndetse n'agacuruziga.

Umukambwe arimo kuganiriza abana bato basa n'abuzukuru be, ari kubaganiriza kubacira umugani ndetse n'ibisakuzo. Bisa n'aho ari gukoresha ubuvanganzo nyarwanda nyemvugo.

Amashusho yifashishwa mu kwigisha abana bato biga mu mashuri y'inshucye gutandukanya amabara ndetse no gushushanya no gusoma inyajwi n'inyuguti.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya ndetse no mu guca imironko, harimo uducamironko, ikaramu ishushanya, agakoresho kifashishwa mu guhanagura igihe ukoze amakosa ndetse n'agaca uruziga.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya no guca imirongo harimo; agacamurongo, ikaramu yifashishwa mu gushushanya ndetse no guca uruziga.

Ibikoresho by'umunyeshuri, cyane cyane uwo mu mashuri abanza, kuko ni igikapu cyorohera umwana kugitwara kandi gikwiyemo ibikoresho bye byose, amakaye ndetse n'amakaramu, n'ibindi byose yitwaza, agiye ku ishuri bijyamo muri iki gikapu.

Mu gihe cy'icyorezo nka Korona virusi, aho buri muntu yagombaga gupimwa, umuriro, akambara agapfukamunwa ndetse agakaraba intoki kandi akubahiriza amabwiriza ya metero hagati y'umuntu n'undi.

Amashuri yisumbuye, abanyeshuri hamwe n'abarezi babo, abanyeshuri bari guhabwa icyemezo byemeza ibyo bagezeho.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambara impuzankano, abakobwa bambara amakanzu, abahungu bambara amakabutura n'amashati y'umweru na karuvati.

Inzu ikorewe amasuku vuba, kuko ubusitani bwayo ni bushya, ntiburagaragara neza kandi impande yayo haragaragara igiti kinini, ifite n'ikigega gifata amazi y'imvura.

Ikigo cy'amashuri aha abana bo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye bazindutse kare cyane mu gitondo, bajye aho bahurira basanzwe bu bafatira amabwiriza, abana bose bafite isuku bambaye inkweto zifunze n'impuzankano zabo.

Abarezi bigisha mu mashuri abanza n'ayisumbuye bose bambaye impuzankano y'akazi, bambaye udupfukamunwa ndetse buri wese afite mudasobwa ye akoresha mu gutegura amasomo.

Abana biga mu mashuri abanza basohotse mu ishuri, bambara impuzankano, amashati asa umweru ndetse no hasi bambara kake.

UUrujya n'uruza rw'abantu, abasore n'inkumi, bigaragara ko ari abanyeshuri cyangwa se abakozi ba kaminuza y'u Rwanda cyangwa ibindi byiciro bigendanye n'uburezi kuko bari imbere y'igorofa risa nk'igikorerwamo igikorwa cyo kwiga.

Abantu bari imbere y'igorofa rinini cyane kandi bigaragara ko bari kugenda barimo kuganira hagati yabo basa n'abavuye mu nama yabereye muri iryo gorofa rinini.